Umubyeyi ari kumwe n'umwana muto w'umuhungu, bahagaze mu mbuga ngari ikikijwe n'imiyenzi, iyo mbuga irimo ibyatsi ndetse n'amatungo yo mu rugo ari kurisha.

Umugore wirabura ahagaze mu mbuga ngari ikikijwe n'ibiti bitandukanye, birimo imiyenzi, afite amatungo yo mu rugo abiri bita ihene.